Abayobozi mu nzego zitandukanye, bahurira hamwe kugira ngo babashe kuba bahabwa amahugurwa mu buryo butandukanye, ashobora kubafasha mu gutanga serivisi zitandukanye baba bagomba gutanga ku baturarwanda, ikindi kandi aya mahuriro abafasha kuba bakungurana ibitekerezo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bahuriza hamwe abaturarwanda kugira ngo babahe amahugurwa kandi babagire inama ku buryo baba bagomba kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ikindi kandi bafasha kugira ngo bahabwe inama ku gihe baba bagize ibibazo bigiye bitandukanye, babe babasha kuba bagana ibi bigo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bahuriza hamwe abantu bakabaha ubukangurambaga kandi bakabagira inama ku ngingo zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kubaho bafite ubuzima buzima, bufite umutekano ndetse n'ibindi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye ahantu, bafite ibyapa bitandukanye, bakaba bitabiriye amahugurwa ndetse n'inama zitandukanye kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo, ku ngingo zitandukanye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bahurira hamwe kugira ngo bafatire imyanzuro hamwe kandi baganire ku bibazo bitandukanye bityo babashe kuba babishakira igisubizo kugira ngo abantu babeho bafite amahoro ndetse n'umutekano.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bahuriza hamwe abantu kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye, bityo babashe kuba bafata imyanzuro kugira ngo babashe kuba bafite umutekano ndetse n'ibindi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abanyamuryango ba FPR, bakaba bahuriye hamwe kugira ngo babashe kubaganira ku ngingo zitandukanye, ikindi kandi bakaba bahagaze kuri tapi ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bahurira mu nama zige zitandukanye kugira ngo bige ku bibazo bibangamiye abaturarwanda, bityo kugira ngo bafate imyanzuro igiye itandukanye, babashe kuba bageza ubuyobozi bwiza ku baturage, ikindi kandi izi nama zifatirwamo imyanzuro igiye itandukanye, ishobora guteza abaturarwanda imbere.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro cy'umweru, hejuru y'ameza hari uducupa turimo amazi ikindi kandi aba bantu bari kwandika ku ngingo zigiye zitandukanye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bahuriza hamwe abaturage kugira ngo babahe amahugurwa kandi babagire inama ku bibazo bigiye bitandukanye, ikindi kandi aya mahugurwa afasha abaturarwanda kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza akamaro ko kuba bakirinda indwara zitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu nzu bari kuganira ku ngingo zitandukanye hirya yabo hari umuntu uri gufotora bicaye mu nzu ifite igikuta cy'umukara ndetse n'irindi bara.

Abaturarwanda bahurira hamwe kugira ngo bakore inama, bityo babashe kuba bafatira imyanzuro hamwe, ikindi kandi bige ku bibazo bigiye bitandukanye bishobora kubangamira abaturarwanda, bityo kugira ngo babishakire ibisubizo birambye.

Umuyobozi uri gutanga inama akaba ari kuganiriza abantu ku ngingo zitandukanye, ikindi kandi hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo indangururamajwi ndetse n'intebe yicayeho, inama zitandukanye zikaba zishobora kungurirwamo ibitekerezo bigiye bitandukanye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bahuriza hamwe abaturage kugira ngo, babaganirire ku ngingo zitandukanye, bityo babashe kuba babaho, bafite ubuzima bwiza kandi bafite umutekano.

Abayobozi mu nzego z'umutekano batanga inama ku baturage, ikindi kandi bakabagira n'inama ku buryo baba bagomba kwirindira umutekano, ndetse no kugira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we babashe kuba bakumira ibyaha bigiye bitandukanye, kandi banabyirinda.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bafata umwanya bakaganiriza abantu kugira ngo babagire inama kandi babahe amahugurwa atandukanye mu kurengera ndetse no kwivuza indwara zitandukanye kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bakaba bicaye mu nyubako bari kuganirizwa ku ngingo zitandukanye ikindi kandi muri iyo nyubako hakaba harimo ibyuma by'indangururamajwi bibafasha kugira ngo babashe kuba bakumvikana.

Inama zihuriza hamwe abayobozi mu nzego zitandukanye kugira ngo babashe kuba baganira ku ngingo zitandukanye. Ikindi kandi bahurira mu nyubako zirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora inama yabo neza.

Umuyobozi uri gutanga ubukangurambaga ku bijyanye no kwaka serivisi zitandukanye aho bababwira ko bashobora kwaka serivisi bihereye iwabo batagombye gutangirira ku nzego nkuru nkuru.

Indirimbo ndetse n'imbyino gakondo ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda. Ikindi kandi abakora iyi imirimo, banezezwa n'uko bibasha kuba byabatunga, bityo bakabasha kuba babona amafaranga ashobora kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ababyinnyi bakenyeye imikenyero y'umweru bambaye amasengeri y'umweru ikindi kandi bateze ingori mu mutwe bikaba bigaragaza umuco Nyarwanda bagenda baririmba mu birori bigiye bitandukanye.

Imbyino gakondo ni kimwe mu bimenyetso biranga umuco nyarwanda. Bamwe mu bakora umwuga w'ububyinnyi, bibasha kubatunga, ikindi kandi izi mbyino zibasha gususurutsa abaturarwanda maze bakagira ibyishimo bitandukanye.

Urugori ni umurimbo uterwa mu gahanga aho abadamu ndetse n'abakecuru bambaraga uru rugori bikaba bigaragaza umuco nyarwanda, ni byiza ko abategarugori baba bagomba kumva akamaro ko gutega urugori mu birori bigiye bitandukanye kuko bibafasha kwizihirwa.

Mu muco Nyarwanda kurasa no kumasha aho abasore bigishwaga kurashisha umwambi ndetse n'umuheto kugira ngo bitoze umukino njyarugamba bityo basobanukirwe neza akamaro ko kumenya kugira ubwirinzi.

Amayogi, ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'ababyinnyi babyina imbyino gakondo kugira ngo babashe kuba baryoshya imbyino zabo. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro k'ibikoresho gakondo cyane cyane ibyifashishwa mu mbyino.

Indirimbo ndetse n'imbyino gakondo, ni kimwe mu bimenyetso biranga umuco nyarwanda, ikindi kandi abakora ibingibi banezezwa nuko bibasha kuba byabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babona amafaranga ashobora kubafasha mu kwiteza imbere.

Inkono y'itabi ni igikoresho cyifashishwa n'abasaza aho bashyiramo itabi bakanywa, ikindi iki gikoresho kikaba kidakunze kugaragara mu Rwanda kuko iki gikoresho ari kimwe mu kigaragaza ibikoresho bya gakondo, bikaba bitagikunze kuboneka.

Ibyibo, uduseke ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bivanwa mu murimo wo kuboha ni kimwe mu bitunze abantu babikora, ikindi kandi ibi bikoresho bikaba biranga umuco nyarwanda, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gusigasira ibi bikoresho kuko bisigasiye amateka.

Umwirongi ni kimwe mu bikoresho gakondo byifashishwa mu gucuranga indirimbo za gakondo, bityo ababikoresha bavuga ko bibafasha kuba bacuranga injyana ziryoheye amatwi, ikindi kandi abaririmba izi ndirimbo bavuga ko ari umuco nyarwanda.

Imisambi ndetse n'ibirago, ni kimwe mu bikoresho gakondo, bigaragaza umuco nyarwanda, aho ababibuha, babasha kuba babona amafaranga, bifashisha kugira ngo babashe kuba babona buri kimwe bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igisabo ni kimwe mu bikoresho gakondo bigaragaza umuco nyarwanda, aho cyifashishwa kugira ngo abashe kuba babuganiza amata kandi babe bacunda amata, ikindi kandi abakora ibi bikoresho gakondo, bibasha kuba byabahesha amafaranga ashobora kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imbyino ndetse n'indirimbo gakondo, ni kimwe mu bimenyetso biranga umuco nyarwanda, ikindi kandi usanga abakora uyu mwuga w'izi mbyino, bitabira ibirori bitandukanye bishobora kuba byabaviramo kuba babona amafaranga atandukanye, ashobora kuba yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amatorero aririmba kandi akanabyina imbyino gakondo, ni kimwe mu bisusurutsa abaturarwanda, aho kandi izi mbyino zigaragaza umuco bityo ababyina kandi bakanaririmba indirimbo babasha kuba babonamo amafaranga ashobora kuba yabatunga.

Abakozi bakora muri serivisi zo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda, bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora umuriro w'amashanyarazi.

Abakozi bakora muri serivisi zitanga amashanyarazi bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bakubaka ingomero ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bageza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu hose.

Ibigo bitanga serivisi zitandukanye z'ibikorwaremezo twavuga amashanyarazi ndetse n'ibindi bitandukanye, binezezwa no kuba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi ku baturarwanda, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora imirimo yabo neza.

Ipironi rikaba rifatiyeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi riri mu gisambu ahantu hari ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti, hakurya hakaba hari umusozi utuyeho abantu.

Abakozi bakora muri serivisi zijyanye no gutanga umuriro w'amashanyarazi, bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora kandi batunganye umuriro w'amashanyarazi, bityo bigere ku baturarwanda.

Mu bice bitandukanye by'Igihugu hagiye hari imiyoboro y'amashanyarazi ifasha kugira ngo abaturarwanda bose babashe kuba babona umuriro w'amashanyarazi, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukiwe akamaro ko kubungabunga ibikorwa remezo, kugirango ngo tubeho dufite byose twifuza mu buzima.

Abakozi bakora mu bijyanye n'amashanyarazi bari ku ruganda rw'amashanyarazi, bambaye ingofero z'imihondo, amashaketi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha mu gukora akazi kabo ka buri munsi.

Mu gutanga serivisi z'umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda hubatswe ibikorwa remezo birimo inyubako ziba zirimo ibyuma by'ikoranabuhanga bifasha kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ubashe kuba wakorwa ikindi kandi ugezwe ku baturarwanda.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi kifashisha ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kuba bageza umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda, ikindi kandi bagira ahantu habugenewe bahuriza ibyuma by'ikoranabuhanga bibafasha mu gutanga izi serivise.

Ibikorwaremezo byiganjemo imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi ni imwe mu bifasha abatura Rwanda kugira ngo babe bakiteza imbere, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kubungabunga ibikorwa remezo kugira ngo tubashe kuba twakiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga umuriro w'amashanyarazi, bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira babashe kuba bageza umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibyo bifashisha mu gukora amashanyarazi ndetse n'imyambaro baba bambaye.

Abakora muri serivisi zishinzwe kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda, bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo insinga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kuba bageza umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda.

Bamwe mu bakora muri serivisi zo gutanga amashanyarazi ku baturarwanda, banezezwa n'uko imirimo bakora ibasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, ikindi kandi kuba Igihugu gifite ibikorwaremezo nk'ibi birimo inyubako ndetse n'amashanyarazi, bidufasha kwiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kuba mu bice bitandukanye by'igihugu harongerewe ingomero z'amashanyarazi byafashije abaturarwanda kwihaza ku muriro kuko babasha kubona umuriro uhagije bityo bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi bigira inyubako zabugenewe zikorerwamo ubushakashatsi, ikindi kandi hakaba hasuzumirwamo imiti ishobora kuba yakwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi za Leta zifite ibikorwaremezo bitandukanye, ikindi kandi zikaba zifite ibigega bifata amazi, hirya y'inyubako hakaba hari ibiti bitandukanye bitanga umuyaga kugira ngo abagana izi nyubako babashe kuba bafite ubuzima buzira umuze.

Inyubako zitanga serivisi zitandukanye za leta ziba zifite ibikorwaremezo bigerayo, urugero twavuga nk'imihanda, ibiraro bihuza ibice bigiye bitandukanye kugira ngo, abaturage babashe kuba bagera kuri izi nyubako bitabagoye.

Abantu bahagaze ku rubaraza rw'Umurenge wa Rukomo, bakaba baje kwaka serivisi zitandukanye kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko tuba tugomba gusigasira izi nyubako, zitanga serivisi za leta.

Ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyagatare bifite ibikorwa remezo bitandukanye: nk'inyubako ndetse n'imodoka zifasha mu gutwara abarwayi bayita imbangukiragutabara. Ni byiza ko twese tuba tugomba gusigasira ibikorwaremezo tuba twarahawe n'Igihugu kugira ngo tubashe kuba twagira ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi za Leta zidufasha mu kubona serivisi zitandukanye aho tugana ibi bigo maze tukabasha kuba twabona serivisi twifuza, kugira ngo tubashe kuba twakora imirimo igiye itandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikorwaremezo bitandukanye bihuriraho abantu benshi, twavuga nk'amasitade, aho abantu benshi bahahurira kugira ngo, babashe kuba bakitabira, ibirori bigiye bitandukanye, birimo imikino ndetse n'imyidagaduro, bityo bakabasha kuba babaho, bisanzuye.

Ibikorwaremezo bitandukanye byiganjemo imihanda ndetse n'ibindi bitandukanye hafi y'umuhanda w'igitaka hakaba hari umugezi ikindi kandi haruguru y'umuhanda hakaba hari ikibaya kiriho ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye.

Hirya no hino mu gihugu hari amavomero atandukanye aho abaturarwanda babasha kubona amazi kugira babashe kuba bayifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye, bityo babashe kuba bakirinda indwara zitandukanye zishobora kuba zaterwa n'umwanda.

Inyubako zitandukanye zitanga serivisi za Leta ziba zifite ibikorwa remezo byifashishwa kugira ngo abagana izi nyubako babashe kuba bahagera nta mbogamizi, bimwe muri ibyo bikorwaremezo twavuga imihanda ndetse n'inyubako kugira ngo abaturage babashe kuba bagerayo batabangamiwe mu ngendo zabo.

Mu bice bitandukanye by'igihugu hagaragara amasoko atandukanye, aho abaguzi n'abagurisha bahurira hamwe kugira ngo bagurishe imisaruro yabo, ikindi kandi kuba barashyiriweho amasoko abafashe ubu buryo ni kimwe mu byabarinze imbogamizi zigiye zitandukanye cyane cyane kuko babasha kwirinda izuba ndetse n'imvura bibasha kuba byabangamira umusaruro wabo.

Inyubako zitanga serivisi za Leta zigira ibikorwaremezo bitandukanye birimo inyubako zigezweho ndetse n'imihanda ya kaburimbo aho abagana ibi bigo babasha kuba bakoroherwa mu ngendo bakora.

Abantu benshi bari kugenda, bageze hejuru y'ikiraro, bakaba bari kugenda, bari ku murongo hirya yabo hakaba hari ibiti, ikindi kandi bakaba bari kugenda mu muhanda w'igitaka.

Ibikorwaremezo bitandukanye birimo ama sitade, aho abantu bahurira hamwe kugira ngo ngo babashe kuba bareba imikino n'imyidagaduro, ikindi kandi izi nyubako ziba zifite ibikorwaremezo birimo imihanda, ndetse n'amazu aho abantu babasha kuba bakugama imvura cyangwa izuba.

Mu bice bitandukanye by'Igihugu hagaragara ibikorwaremezo bifasha abaturarwanda mu kwiteza imbere, bimwe muri ibyo bikorwa remezo twavuga: imihanda' amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bifasha abaturarwanda mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu bice bitandukanye by'Igihugu hagaragara inyubako zitandukanye zigaragaza amateka y'Igihugu, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gusura izi nyubako kuko tubasha kuba twasobanukirwa amateka agiye atandukanye yaranze Igihugu cyacu.

Mu bigo bitandukanye by'igihugu hagaragara ibikorwaremezo bitandukanye bitangirwamo serivisi za leta, bimwe muri ibyo bigo birimo amashuri ndetse n'izindi nyubako zitandukanye, ikindi kandi zikaba zifite imihanda myiza izifasha kugira ngo abahagana babashe kuba bagenda heza.

Inyubako zitanga serivisi zitandukanye zigira ibikorwa remezo birimo imihanda, amatara ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha kugira ngo abaza bagana izo nyubako babashe kuba bakizera umutekano wabo.

Inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi za leta, zigira ibikorwaremezo bibasha kuba byafasha abazigana kugira ngo bahagere nta mbogamizi. Bimwe muri ibyo bikorwa remezo twavuga amatara ndetse n'imihanda ishobora kuba yagera kuri izo nyubako.

Inyubako zitanga serivisi za Leta zirimo amasoko aho abantu benshi bahurira kugira babashe kuba bacuruza ziba zigomba kuba zifite ibikorwaremezo bitandukanye birimo ubwiherero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha abaza bazigana.

Inyubako zitanga serivisi zitandukanye, cyane cyane inyubako zitanga serivisi zijyanye n'amata, zifasha abaturarwanda kugira babashe kuba babona amata ahagije, aho bagana izi nyubako bityo bakabasha kuba babona amata.

Ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda hagaragara uruza rw'abantu, aho baba bafite ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye birimo imodoka ndetse n'amagare, ikindi kandi abantu bagaragara ahahangaha baba bakora ibikorwa bitandukanye bibafasha kubona amafaranga.

Inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi batandukanye mu nzego z'ubutabera bahurira hamwe kugira ngo babashe kuba bakiga ku bibazo bitandukanye bityo bafate imyanzuro babashe gufasha abaturarwanda kugira ngo babeho bafite umutekano.

Abayobozi mu nzego z'umutekano bakaba bari ahantu hamwe, bakaba bari kuganira ku bibazo bitandukanye, ikindi kandi bakaba bari ku rubaraza rw'inyubako iri mu mabara y'umweru ndetse n'amakaro y'umukara hasi.

Inzego z'ubutabera zihuriza hamwe abaturarwanda kugira ngo babashe kuba baganirizwa ku byaha ndetse n'ibibazo bitandukanye, aho bashishikarizwa kuba bakirinda amakimbirane mu ngo bityo kugira ngo babane mu mahoro.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubutabera, bahurira hamwe kugira ngo bafate imyanzuro ku bibazo bitandukanye bishobora kugariza abaturage, bityo babashe kuba bashaka umuti ndetse n'igisubizo ku buryo burambye.

Abaturage banezezwa n'uko inzego zitanga serivisi z'ubutabera zibegera, maze zikaba zabakemurira ibibazo bigiye bitandukanye bityo bakabasha kuba babunga bityo bakabana mu mahoro; ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kwegera izi nzego kugira ngo zibashe kubazaduhuza mu gihe twagize ibibazo bitandukanye.

Mu Rwanda inzego z'umutekano zifashishwa kugira ngo batange ubutabera ku baturage, ikindi kandi, abakoze ibyaha bitandukanye baba bagomba gucirwa imanza, bityo bagahanwa n'amategeko, kuko ibyaha bibasha gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe.

Abayobozi mu nzego z'ubutabera, bafata umwanya bakicara hamwe bakiga ku bibazo bibangamiye abaturage. Ikindi kandi iyo bari hamwe, bafata imyanzuro ku bibazo bitandukanye, bityo abaturage bakabaho bafite ubuzima buzira amakimbirane mu miryango.

Ababyeyi bicaye imbere y'inyubako yubakishije amatafari, bicaye mu bwatsi butoshye hirya yabo hari imodoka y'umweru ifite amabara y'igikara bari gukoma amashyi.

Inzego zitandukanye z'ubutabera, zihuriza hamwe abantu kugira ngo baganire ku bibazo biba byugarije abaturage, bijyanye n'umutekano muke, ikindi kandi babasha gukemura ibibazo bitandukanye by'abaturage kugira ngo babane bafite amahoro n'umutekano.

Abayobozi mu nzego z'umutekano bahuriza hamwe abaturage, bakabaganirira ku bibazo bigiye bitandukanye, ikindi kandi bakabashishikariza kwicungira umutekano, buri wese aba ijisho rya mugenzi we kugira ngo birinde ibi byaha kandi banabikumire.

Inzego z'ubutabera zihuriza hamwe abaturage kugira ngo baganire ku ngingo zigiye zitandukanye zishobora kuba zabafasha kugira babashe kuba bagira umutekano ikindi kandi bafatira hamwe imyanzuro ku bibazo bigiye bitandukanye.

Inzego z'umutekano zihuriza hamwe abaturage kugira ngo bumve ibibazo bafite bityo bibashe kuba byashakirwa umuti, ikindi kandi ibi bikaba bibafasha kugira ngo babashe kuba bakungurana ibitekerezo.

Abayobozi mu nzego z'umutekano, bahurira hamwe kugira ngo bafatire imyanzuro hamwe kandi bahabwe n'amahugurwa, kugira ngo babashe kuba babasha gukemura ibibazo by'abaturage, bityo abaturage babaho bafite umutekano wuzuye.

Abantu benshi bicaye imbere y'inyubako yubakishije amatafari, hariho amadirishya y'ibirahuri, imbere yaho hari ameza ndetse n'intebe, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, ikindi kandi bicaye mu busitani burimo urucaca rwiza rutoshye.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo amabara atandukanye, arimo ay'umuhondo ndetse no ku ruhande umweru n'umukara, ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo hakaba hari inyubako zitandukanye ndetse n'ibikorwaremezo birimo umuriro w'amashanyarazi.

Abatwara imodoka zifasha abaturarwanda mu gukora ingendo zitandukanye, banezezwa nuko kuba hari ibikorwa remezo nk'imihanda bibarinda kuba bakora impanuka zitandukanye mu mihanda, ikindi kandi ni byiza ko tuba tugomba gusigasira ibikorwa remezo kugira ngo dukomeze kwiteza imbere.

Umuntu uri kugenda ku ipikipiki akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari inyubako, ikindi kandi iyi mihanda ya kaburimbo, ikaba yoroshya ingendo mu buzima bwa buri munsi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo bigira serivisi zitandukanye, zirimo amacumbi, ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, bityo bagafasha ababigana kugira ngo babashe kuba babona serivisi nziza.

Bamwe mu bagana ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, batangaza ko serivisi nziza bahabwa zibafasha kugira ngo babe banezezwa no kuba bahora bakora ubukerarugendo. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurengera ibi byiza nyaburanga.

Inzego z'umutekano zihuriza hamwe abaturage kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye ikindi kandi izi nama zifatirwamo imyanzuro itandukanye kugira ngo abaturage babeho bafite umutekano.

Inzego z'umutekano zitandukanye, zihuririza hamwe abaturage kugira ngo babashe kuba babasobanurira, ububi bw'ibyaha, ikindi kandi bababwira ko mu gihe babonye, ukora ibyaha bataba bagomba kumuhishira kugira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we.

Abaturage hamwe n'inzego z'umutekano bahurira hamwe kugira ngo bakore imirimo itandukanye y'amaboko aho bibafasha kugira ngo bishakemo ibisubizo, ikindi kandi bubaka ibikorwa bitandukanye aho bahuza imbaraga kugira ngo bishakemo ibisubizo.

Abayobozi mu nzego z'umutekano bahurira hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye, ikindi kandi aya mahuriro babasha kuba bahabwamo amahugurwa, kandi bagafata imyanzuro ishobora kuba yazanira ibisubizo byiza abaturage.

Mu rwanda haba iminsi mikuru ihuza abashinzwe umutekano, iyo minsi mikuru bakaba bahuriramo kugira ngo babashe kuba bakora ubusabane, ikindi kandi muri iyo minsi mikuru babasha kuba bakigiramo ndetse bagafata imyanzuro itandukanye ishobora kuba yafasha abaturage kugira babashe kuba bagira umutekano.

Abaturage bakora imirimo igiye itandukanye y'amaboko ibyo bikaba bibafasha kuba bakishakamo ibisubizo aho bashobora kuba batwara amabuye yifashishwa kugira ngo babe basana cyangwa bubake inzu bityo babashe kuba babaho bafite umutekano.

Abayobozi mu nzego z'umutekano bahuriza hamwe abaturarwanda kugira ngo babahe amahugurwa kandi babagire inama ku buryo bagomba kwicungira umutekano ikindi kandi ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kuba twakicungira umutekano kugira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we.

Abantu benshi bahuriye ku kibuga hakaba hari inyubako z'amahema, aho habereye ikirori, ikindi kandi bakaba baganirijwe, ku ngingo zitandukanye zijyanye n'umutekano kugira ngo babashe kubasobanukirwa neza akamaro ko kwicungira umutekano.

Abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse no mu nzego z'umutekano, bakora umuganda aho akora imirimo y'amaboko, bakaba bafite amabuye yifashishwa mu kubaka ibikorwa bitandukanye, hirya yabo hakaba hari umurima w'ibigori.

Inzego z'umutekano zihuriza abaturage hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye bijyanye n'umutekano, ikindi kandi izi nama zifatira hamwe imyanzuro mu gukemura ibibazo bitandukanye biba byugarije abaturage kugira ngo babane mu mahoro kandi bafite umutekano.

Umuganda ni gahunda ya leta igamije ko abaturarwanda bishakamo ibisubizo. Iyi gahunda usanga yitabirwa n'abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye; aho bakora imirimo y'amaboko kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo bigiye bitandukanye byugarije abaturarwanda.

Abaturage bayobowe n'inzego z'umutekano zitandukanye bahurira hamwe mu bikorwa by'umuganda kugira ngo babashe kuba bakishakamo ibisubizo aho bakora imirimo itandukanye y'amaboko mu kugira ngo babashe kubaka ibikorwa remezo bitandukanye birimo amashuri ndetse n'ibindi.

Inzego z'umutekano ziganjemo abapolisi bahuriza hamwe abantu kugira ngo babashe kuba bakora inama zitandukanye ikindi kandi babashe kuba baganira ku ngigo zigiye zitandukanye zigamije kuba zaha umutekano abaturarwanda.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru umwe wambaye umwenda w'umweru ndetse n'iroza hasi abandi babiri bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu, bakaba bari gukinira ku kibuga, hirya yabo hakaba hari umwana uri kureba.

Siporo imikino ndetse n'imyidagaduro, ni kimwe bifasha abantu batandukanye kugira ubuzima bwiza kuko bahurira hamwe bakidagadura, ikindi kandi ni byiza ko haboneka ibikorwaremezo bitandukanye, birimo inyubako ndetse n'ibibuga bishobora kwakira abantu benshi, kugira ngo babashe gukora iyi myitozo ngororamubiri.

Abana bato bari ku kibuga bakoreraho imyitozo ngororamubiri bari gukora ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri bugiye butandukanye bagiye bari kumwe n'ababafasha mu gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza, ikindi kandi tukirinda indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko twagiye dushyirirwaho ibikorwaremezo bitandukanye nk'ibibuga, ndetse n'ubundi buryo butandukanye budufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, imwe mu myitozo ngororamubiri twavuga kwiruka aho abantu bahurira hamwe ku bibuga bakabasha kuba bakora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Umuntu uri gukina umupira w'amaguru akaba yambaye imyambaro y'ubururu, hirya y'ikibuga ari gukiniramo hakaba hari inyubako, ikindi kandi ikibuga ari gukiniramo kikaba kirimo ibyatsi byinshi cyane.

Abana batatu bari gukina umupira w'amaguru, umwe wambaye agasengeri k'umutuku n'ikabutura y'umukara, bari gukinira ku kibuga k'igitaka, hakurya yabo hari ibyatsi bitoshye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bifasha umubiri wacu kuba wagira ubuzima bwiza, aho biturinda indwara ikindi kandi gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kugororoka bityo tukaba dufite ubuzima bwiza.

Umugabo uri gukina umupira w'amaguru akaba yambaye imyambaro y'umuhondo, ikindi kandi akaba ari gukinira ku kibuga kiririmo tapi z'icyatsi kibisi, hirya y'ikibuga hakaba hari akayira ndetse hakaba hari n'ahandi hari inkuta zo mu mabara y'umuhondo.

Gukina umupira w'amaguru ni umwe mu myitozo ngororamubiri ifasha abanyarwanda ndetse n'abandi bose kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bidufasha kubaho dufite ubuzima buzira indwara zitandukanye.

Mu bice bitandukanye by'Igihugu hagira ibikorwaremezo byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kuko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri ku buzima bwacu.

Amasitade atandukanye yakira imikino igiye itandukanye aya masitade ahurirwaho n'abantu batandukanye baba baje kureba iyo mikino ikindi kandi aya masitade aba afite ibikorwaremezo bitandukanye birimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bane bari ku kibuga bari gukina umupira. Babiri bambaye imyenda y'umuhondo, umwe yambaye umwenda w'umutuku hejuru. Hasi w'umukara undi yambaye ubururu hejuru hasi ipantaro y'umukara.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, ikindi kandi abakora imyitozo ngororamubiri banezezwa n'uko bitagarukira aho kuko babasha kubona imidari ndetse n'amashimwe ishobora kuba yabafasha kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere muburyo butandukanye.

Ibikorwaremezo bitandukanye birimo ibibuga aho abana bahurira bagakina imikino itandukanye, harimo gukina umupira w'amaguru bibafasha kugira ngo babe bakora imyitozo ngororamubiri bityo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye.

Bamwe mu basore bakina umupira w'amaguru bavuga ko kuba batabasha kubona ibibuga byujuje ubuziranenge ibasha gukoreraho imyitozo, bibabera imbogamizi kuko babasha kuba babangamirwa mu gihe bari gukora imyitozo, bityo bakaba bifuza ko babona ibibuga byo gukiniraho byujuje ubuziranenge.

Abana bakora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye banezezwa no kuba bafite, ibibuga bibafasha kuba bakina imikino, bibafasha kugira abashe kuba bagorora imibiri yabo, bityo birya byabarinda indwara zitandukanye.

Mu mikino n'imyidagaduro abantu batandukanye bahurira ku bibuga bitandukanye, kugira ngo babashe kuba bareba imikino n'imyidagaduro, bityo babashe kuba bakora imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza aho yirinda indwara zitandukanye, ikindi kandi ibikorwaremezo bitandukanye birimo ibibuga ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha abakora iyi imyitozo kugira ngo babashe kuba bakisanzura.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahurira hamwe kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri by'umwihariko, bakora imyitozo ngororamubiri ijyanye no kwiruka kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye, ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, hagaragara imihanda ya kaburimbo, yifashishwa mu ngendo zige zitandukanye, ikindi kandi abaturage batangaza ko iyi mihanda yabafashije kugira ngo boroshye ingendo zigana hirya no hino mu gihugu.

Mu bice bitandukanye by'Igihugu hagaragara utuyira tw'amaguru aho twifashishwa kugira ngo abantu bakore ingendo zigiye zitandukanye, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kubungabunga utu tuyira kugira ngo tubashe kuba dufite isuku.

Kuba mu ngo zitandukanye hagiye hari imihanda migenderano igezweho, twavuga nk'ama kabarimbo byafashije abaturarwanda kuba bagira umutekano mu mihanda kuko byabarinze umwanda, aho usanga icyondo cyaracitse bityo bikaba byabafasha kuba bagira ubuzima bwiza.

Mu bice bitandukanye by'igihugu hari ibikorwaremezo bigiye bitandukanye bimwe muri ibyo bikorwa remezo twavuga imihanda myiza ya kaburimbo, amatara ndetse n'inyubako bifasha abaturarwanda kugira babashe gukora ingendo zabo bafite umutekano.

Mu bice bitandukanye by'igihugu hagaragara imihanda migenderano ya kaburimbo igezweho aho bifasha abantu kugira ngo babashe kuba bakora ingendo biboroheye ikindi kandi bagira inyubako zibafasha kugira ngo bakore ibikorwa bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Utuyira tw'amaguru twifashisha mu baturage ni tumwe mu twakemuye ibibazo bitandukanye, aho wasangaga isuri y'amazi ishobora kuba yabangamira imihanda bityo ugasanga biri guteza ingaruka mbi ku baturage. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurengera utu tuyira.

Mu bice bitandukanye by'igihugu; hari ibikorwa remezo nk'imihanda, amashanyarazi ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha abaturarwanda kugira ngo babashe kuba bakora ingendo zabo batekanye; bityo biteze imbere.